Mu ishuri, abana bafashe amasahane ariho ibiryo, bimwe byitwa kawunga, aba ari ifu y'ibigori yatunganyijwe, maze bakabirisha ibishyimbo. Inyuma y'ahantu bicaye, hari ikibaho ubona cyanditseho amagambo menshi.

Mu byaro usanga hari imigezi yubatswe n'imishinga cyangwa ikubakwa na Leta igamije kwegereza abaturage ibikorwa remezo. Abana benshi iyo bavuye ku ishuri baraza bagategaho intoki bakanywa amazi, kuko baba bumva banyotewe.

Umwana iyo ari munsi y'imyaka itanu, akunda guterwa inshinge cyane, ndetse abana benshi bageraho bakabimenyera, ni yo mpamvu umwana muto ubona ko afite umusatsi urimo udusaro, muganga ari kumutera agashinge, umwana ubona ko nta kintu bimutwaye atari kurira.

Abaganga baragiye batekereza ku kintu cyafasha abaturage, maze bahitamo gukora ikintu bita gutoza abaturage nabo bakajya bimenya. Ni yo mpamvu haje urwego rwitwa abajyanama b'ubuzima, rufasha abaturage mu midugudu no mu tugari aho batuye gusobanukirwa no kuvurwa ibintu bigiye bitandukanye.

Iyo umuntu ari kwiga ubuganga aba ari kwiga ikintu cyiza. Niyo mpamvu iyo uwabaye umuganga abantu bakubaha kuko una ukora ibikorwa byiza, harimo nko gupima indwara nka SIDA n'izindi nyinshi zitandukanye. Abagangada rero hari ubwo bamanuka bakajya aho abaturage bari, bakabapima indwara zitandukanye izo arizo zose.

Imishinga myinshi itandukanye ndetse n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta hari igihe ikora ibikorwa byo guha serivisi zituma abaturage babaho neza mu giturage, urugero ikabubakira nk'imigezi bakuraho amazi yo gukoresha.

Umugore iyo atwite arapimwa hakumvwa uko umwana uri mu ahagaze, ndetse hagasuzumwa n'ubuzima bwe kugira ngo bamenye uko uwo mubyeyi azabyara bimeze. Niyo mpamvu dukwiye kubaha ababyeyi kuko ni abantu b'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, tububahe tubahe icyo cyubahiro bakwiye.

Mu cyumba ubona ko cyicayemo abantu bameze nk'abize, bafite ubumenyi bukomeye, hari ameza manini bakikije bose, imbere yabo hateretse udusahane turiho udukombe duto, ubona ko bari kutwifashisha banywa icyayi, cyangwa ikindi kintu gisukika, ku meza hateretseho icyuma cyifashishwa mu gushyira amashusho ku gikuta abantu bakareba.

Abantu bari ku murongo twavuga ko ari ku meza y'ibiganiro, impande ya buri umwe hateretse icupa ry'amazi ndetse n'indangururamajwi. Abenshi bayita mikoro. Inyuma y'aho bicaye, hari icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru.

Hari igihe ubona abantu bakuze bari hamwe ndetse bameze nk'abari kwiga, ni ko bimeze mu cyumba gifite idirishya rinini riri gutuma muri icyo cyumba no muri iyo nzu hazamo urumuri, hicayemo abantu ubona ko bakuze abagore n'abagabo, bafite amakaye ubona ko bari kwihugura.

Iruhande rw'umugezi hahagaze umugabo, yambaye ipantaro y'ikoboyi ifite ibara rijya gusa ubururu ariko butari ubururu neza, yambaye n'inkweto ndetse n'umupira w'amaboko magufi na wo w'ubururu, iruhande rwe hari umwana usutamye ari kugerageza kwikorera indobo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, ari kuganiriza abantu bicaye imbere ye bamuteze amatwi. Urabona ko ari abaturage, bicaye mu gisharagati gitatseho amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, gifite igiti twakwita nk'inkingi yacyo, nziza na yo itatseho igitambaro cy'umuhondo.

Mu ishuri umwana asabwa gusubiza. Iyo mwarimu abajije ikibazo umwana wa agombaga guhanika ukuboko agasubiza. Turabizi twese twarize tuzi uburyo bigenda, uhanika ukuboko mwarimu akaguhitamo. Umwana rero uri mu ishuri ubona ko we atari gusubiza, yahanitse urutoki ameze nk'uri kureba umuntu uri kumufotora.

Mu byaro usanga abaturage bazana amabase ku mugezi maze bagakarabira ku mugezi, nuko nyuma bajya gutaha bakayikorera bafitemo amazi kugira ngo bajye kuyakoresha.

Mu byaro usanga abaturage, leta n'imiryango itayegamiyeho bubakira abaturage imigezi yo kuvoma amazi yo gukoresha. Akenshi iyo migezi aba ariya rusange ku buryo umuturage wese aza akavomaho amazi akajya kuyakoresha.

Leta y'u Rwanda yagiye ishishikariza abaturarwanda gukora ibintu by'isuku, niyo mpamvu usanga ahantu henshi hari udutanda barambikaho ibintu barangije kubyoza, maze bikaba bigaragara neza ku buryo umuntu wese abona ko bifite isuku.

Ntabwo ari ibintu bigenda bigabanuka, ahubwo byiyongera uko bwije n'uko bukeye, ikigero cy'uburinganire ku isi kiri kugenda kizamuka ahantu hose, nta kintu kibikibangamira kubera ko abantu bamaze kumva ibyiza by'uburinganire.

Abantu bafite udukaye biganjemo abagore n'abagabo bameze nk'abakuze, bari kureba imbere y'umuntu wagira ngo hari amakuru bari kumwaka cyangwa ari kubaha ikiganiro cy'ingirakamaro. Bose bafite amakaye bari kwandikaho cyane cyane abari ku murongo w'imbere, ubona ko ari abantu bazi ubwenge.

Mu nyubako yo kwa muganga, hari abantu benshi bateranye, imbere yabo hari umugore wambaye umwenda mu mutwe, wambarwa n'abantu bo mu idini y'abayisilamu, ubona ko ari kuganiriza abandi bamuri mpande, abo bantu ariko n'ubwo ubona ko bari gusobanurirwa, urabona ko batahejwe, bemerewe kubaza bagasubizwa.

Imbere y'inzu hahagaze abantu ubona ko bifurebye umubiri wose, bambaye imyenda imeze nk'amakanzu, ndetse bambaye n'uturindantoki mu ntoki zabo kugira ngo birinde ko hari imyanda yabajyaho, cyangwa bakwandura indwara izo arizo zose zabahungabanya, niyo mpamvu ahantu bari hateretse n'indobo nyinshi, ubona ko abo bantu bameze nk'abakora mu nzego z'ubuzima.

Imbere y'umugezi ahagaragara nk'aho ari mu cyaro hari umwana uri guseka. Ni byiza ko twohereza abana kutuzanira amazi ariko ntitubahe ibikoresho bibananiza, kuko nk'iyo umwana ufite indobo ijyamo ijerekani cyangwa ikibuni cy'amazi ntago yayibasha.

Umusore ubona ko yishimye, ari gufata urutoki rw'umuntu, inyuma yabo hari undi uhagaze wifashe mu mifuka. Ubona ko bigaragara aba bantu bari gusuzuma abantu indwara mu buryo bwihuse kandi bwa rusange.

Ku mugezi ubona ko ari umugezi wo mu cyaro mu giturage hari abantu baje kuvoma bafite amabuni. Ni atatu, iruhande rw'uwo mugezi hari abandi bashagaye bari kureba uko umugore ari kuvoma mbese amanura icyuma akizamura ngo amazi aze.

Ahantu mu kibuga, hari abantu bamwe baricaye abandi barahagaze, ubona ko bishimye kandi nta kibazo bafite n'ubwo ahantu bari hameze nk'ahari kuva izuba; imbere yabo hari inzu isize irangi ry'umweru hejuru, na ho hasi yubakishije amabuye.

Hari igihe umwana bamujyana kwa muganga, bitewe n'uko muganga amubona n'ikigero cye, agahitamo kumufata ibizamini. Agamije kugira ngo yumve uko umutima we utera cyangwa uko umubiri we umeze muri rusange. Ni byiza rero kujya kuvuza abana bacu.

Kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza ni uko haba hari amazi, niyo mpamvu niyo ugiye kwa muganga uhasanga amazi abantu baje kwa muganga bifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ntukabikerense kuko amazi ni ikintu cy'ingenzi.

Umuryango w'abibumbye ufite agashami kita ku bana abantu benshi bakunda kwita UNICEF, ako gashami gafite intego yo kugera kuri buri mwana ku isi kugira ngo karebe uburyo uburenganzira bwe budahungabanywa kugira ngo umwana yitabweho amere neza,

Icyumba kirimo abantu benshi ubona ko bari kureba imbere yabo, hari umugore uhagaze imbere wambaye ikote ry'umukara warizamuye rikagera hejuru y'inkokora n'ikanzu y'umweru, uri kuganiriza abantu bose ubona ko bamuhanze amaso, ariko hari umwe warangariye muri telefone kandi si ibintu byiza.

Mu cyaro cyangwa se ahandi henshi mu nkengero z'umujyi, uhasanga hari imigezi yubatswe rusange umuntu ajyaho akavoma amazi, akishyura igiceri maze akagenda akajya kuyakoresha mu rugo.

Mu cyumba kigaragara ko kiri kuberamo inama, harimo abantu benshi, bamwe bicaye bakikije ameza n'abandi bicaye mu gikundi ubona ko barangamiye imbere umuntu uri kubagezaho ikiganiro ubona ko nta kibazo bafite.

Twite ku buzima bw'abana bacu. Ni yo mpamvu buri gihe ku kigo nderabuzima haza ababyeyi baje gukingiza abana, cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu, kuko baba bageze mu gihe bakwiye kwitabwaho, ubuzima bwabo bukitabwaho cyane, kugira ngo barindwe indwara zishobora kuzabafata bamaze gukura.

Hari ishami ku isi rishinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana, ndetse iryo shami ni ingenzi. Rifite ikirangantego gifite ingano ebyiri zisobekeranye mo imbere harimo umugore n'umwana, bari ahantu mu ruziga, ubona ko ari ikigo gifite ikirangantego cyiza.

Umuntu iyo agiye kwa muganga baramuvura bakamuha ubufasha bwose akeneye, ariko n'abaganga usanga akenshi baba bahibibikana bari kureba ibisubizo by'ibizami bafashe ngo barebe ngo umuntu bapimye bimeze bite, niyo mpamvu ukwiye kwizera ibintu byose bibera kwa muganga.

Imigezi ubona ko igendanye n'icyerekezo ifite amavomo menshi atandukanye, iyo migezi iba yarubatswe kugira ngo ifashe abaturage babone amazi, akenshi yubakwa n'imiryango itegamiye kuri Leta cyangwa se n'imishinga mpuzamahanga.

Imbere y'umugezi ugezweho, wubatswe n'abaturage, hari umwana uri kuvoma, ndetse impande ye hari umugore uhagaze, wegeranye n'undi ufite umutaka. Aho bari kuvomera, hari abantu benshi bahashagaye ubona ko nabo baje gushaka amazi, cyangwa bari kureba ibiri kubera aho.

Imbere y'ameza hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo uburongo, imbere ye hari umwana wambaye utwenda tw'icyatsi muto, ubona ko ari kumureba, hirya gato hari umugabo uri kwandika ufite ikaramu mu ntoki wambaye icyenda cy'umweru kinini.

Ku ivomo cyangwa se ku mugezi impande y'ikigo cy'amashuri hari abana baje gufata amazi, bamwe bari gukaraba mu ntoki abandi bari kuyakinamo, hari abahagaze bare ku muntu uri kubafotora, bigaragaza ko bishimye ndetse iyo foto ibashimishije.

Abana bato ubonako bashobora kuba biga mu kiburamwaka, uko bigaragara biga mu kiburamwaka koko. Ni beza bambaye impuzankano imbere yabo hahagaze abantu bakuru ubona ko baje kubasura bareba uko bitwara nuko babayeho ku ishuri.

Ku munzani impande yaho hari terefone ngendanwa, hari umwana uhagazeho wambaye umupira w'amaboko magufi y'umuhondo ukiri muto udafite umusatsi ufashwe n'umugabo wasutamye wambaye ipantaro y'umukara n'umupira usa n'uwumwana ndetse n'amataratara.

Iyo umubyeyi agiye gukingiza umwana cyangwa undi muntu agiye kwivuza, hari ifishi kwa muganga ibanza kuzuzwa, kugira ngo amakuru ye abikwe, n'ikindi gihe azagaruka amakuru ye azabe ahari. Yifashishwa kandi mu gihe afite ubwishingizi, bareba indwara bamuvuye, n'imiti bamuhaye kugira ngo ubwishingizi bumwishyurire.

Mu byaro hagiye hubakwa amazu menshi aho umuturage ashobora kujya akavoma, mbese ni ku ivomo rusange, iyo uhagiye baguha amazi ugatanga igiceri ukagenda ukayakoresha maze bikagenda neza. N'ejo ukagaruka bikagenda nk'uko byagenze.

Ubuvuzi mu Rwanda bwitaweho, ariko hari igihe ureba inzu izakorerwamo ubuvuzi ukibaza icyo izajya igikora bikakuyobera niyo mpamvu ahantu hazitije senyenge hasi ubona ko hakiri gutunganywa hari amazu meza mato.

Mu Rwanda hari umuryango witwa world vision, ni umuryango cyane cyane wita ku bakene, ndetse no kwita ku baturage, ukabaha ibyo bakeneye, navuga nk'ibikorwa by'ingenzi ndetse ugafasha n'abantu baturuka mu miryango itifashije, kugira babashe kuva mu bukene. Ni umuryango ugamije ineza y'abanyarwanda.

Ku isi hari umuryango ukaba icyo ushinzwe ari ukwita ku buzima. Ni umuryango ugenda ureba uko ubuzima buhagaze ku isi hose. Niba hari ahaje icyorezo uwo muryango ntuhatangwa ukaza ukahiga umushinga w'uburyo icyo cyorezo cyarwanywa ndetse n'uburyo hagaruka ubuzima buzima.

Umwana bamwasanishije bari kumuha umuti. Nyina ameze nk'useka naho undi muganga wambaye ibintu by'ibikomo ku maboko byinshi by'umweru na we ameze nk'uwashinyirije, yambaye amaherena, ari kwita ku mwana.

Kwa muganga hari intebe wicaramo urwaye maze bakakuvura kandi izo ntebe zirahenda. Bazigura amafaranga kandi ziriyubashye, nubwo ari izo kwa muganga ariko iyo bagiye kuzigura bita ku ireme ryazo ndetse no ku buziranenge.

Hari igihe ureba abayobozi ukabona bari mu nama kandi ukabona ko bari kwiga ku kintu gifite akamaro. Niyo mpamvu, mu cyumba gifite amadirishya manini, kirimo ifoto y'umukuru w'igihugu, perezida Paul Kagame, kirimo insakazamashusho, hicaye abantu benshi imbere y'ameza, ubona ko bari mu nama.

Buri muntu wicaye, imbere ye hari akapa kagaragaza amazina ye n'icyo akora. Ahantu ari, hari inkuta ndetse hari n'amadirishya meza arimo ibitambaro. Bose abicaye muri icyo cyumba bari kureba imbere yabo, kandi bafite imbere yabo amacupa y'amazi ateretse ku meza.

Imbere y'icyapa hahagaze abagabo, ubona ko bavuye mu nama. Bose bari kureba imbere yabo bari kwifotoza nk'uko bigaragara. Bose barishimye cyane rwose kuko ubona ko bifashe neza, mbese bari gufata iyi foto bayishaka.

Mu cyumba kirimo abantu benshi ubona ko bize bazi ubwenge, ni abagore babiri n'abagabo batatu, babiri babiri barateganye undi umwe ari ku ruhande ameze nk'aho ari umuyobozi ari kubabwira icyo gukora, niko bimeze kuko yicaye ku ntebe bigaragara ko ari iy'umuyobozi.

Ahantu mu nkengero z'umujyi usanga umuturage afite umugezi mu rugo niyo mpamvu nk'iyo ari umunsi wo gufura imyenda yambaye bajya kuvoma kuri wa mugezi maze ayo mazi ava k'umugezi akaba ariyo bakoresha.

Umugore wambaye itaburiya n'amadarubindi ari kwita ku wundi wicaye bigaragara ko arwaye ndetse impande yabo hari undi muntu, inyubako barimo iri ahantu ushobora gucomeka telefone maze ukabona umuriro kandi hari n'idirishya bakuyeho amarido kugira ngo urumuri rwinjire imbere.

Ku isi hari ishami rishinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana, iryo shami rifite intego yo kugera kuri buri mwana aho aba ari hose ku Isi, hari abantu rero barikorera baragenda bagakangurira abantu kwita ku bana no kwita ku nshingano zabo.

Ahantu ubona ko ari mu cyumba, hari abantu bafite ubumenyi buhambaye, bize kuko basa neza, baricaye bakikije ameza. Umwe wambaye amataratara imbere ye hateretse mudasobwa, naho abandi bari ku mpande na bo urabona ko bari gukora ibyabo.

Hari ubwo ujya kwa muganga ugasanga ufite ikibazo cyo kubura umwuka, kwa muganga bakakongerera umwuka. Hari ibyuma rero biba bibitsemo uwo mwuka kugira ngo nihagira umuntu kwa muganga uhaza afite ikibazo kijyanye no kubura umwuka, abasha kuwuhabwa.

Ikigega ubona ko kijyamo amazi, ni cyiza kandi ni kinini, cyubatswe kugira ngo abantu bajye babasha kubona amazi cyane cyane abaje kwa muganga, ni byiza rero, amazi ni meza kandi akwiye kwegerezwa abaturage, ndetse no ku bitaro kugira ngo uje kwivuza ajye abone icyo akoresha.

Ku ishuri bagiye bubaka kandagira ukarabe cyangwa se ahantu ushobora kujya ugakaraba mu ntoki ugacya, ni ahantu umuntu iyo ageze akaraba maze akumva ibintu by'indwara byose bimushizeho, muri ibyo bintu bakoze bari bagamije gutoza abana kugira ngo bigirire isuku.

Ni byiza ko tumenya uburenganzira bw'abana, ntitubahutaze ahubwo tukabashakira icyatuma bamera neza ndetse tugakora dushaka guharanira ineza y'abo bana. Aha ni abana ubona ko bishimye bari kureba imbere yabo, bambaye imipira y'ubururu iriho ikirango cy'umuryango ushinzwe kwita ku burenganzira bwabo.

Ahantu ubonako ari imbere y'inzu nini, hari umwana wambaye imyenda ubonako imeze nk'impuzankano ndetse imbere yé hateretse kandagira ukarabe ari gukarabiramo, bigaragara ko ari ibyo yatojwe n'abarimu be ndetse n'ababyeyi.

Hari inama yahuje inzego z'ubuzima mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu igamije kwiga ku bijyanye n'ubuzima, yari irimo inzego z'ibanze maze irangiye abari bayitabiriye baragenda bafata agafoto k'urwibutso.

Abantu bambaye impuzankano z'amataburiya y'amaboko magufi afite imifuka imbere, ubona ko bari kureba nk'abari kwifotoza, hagati yabo hahagazemo umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse na karuvati iri mu ishati ifite ikora rihinnye neza.

Abagore ubona ko bishimye, bari kureba imbere yabo bahagaze imbere y'inzu ubona ko ari nziza kandi barishimye. Bifasha kunda abenshi, abandi urabona ko bari kureba ku muntu ufite camera ngo abafotore, barishimye cyane biragaragara ku maso yabo.

Ahantu henshi, ntago bajya bamenya ko, uburinganire ari ingenzi. Ariko tuge duteza imbaraga, ndetse dushimangire uburinganire, kuko uburinganire ni ingenzi, buri muntu akwiye kubugiramo uruhare.

Imbere y'inzu ihomesheje ibyondo ifite urugi rw'igiti hicaye umugore uteruye umwana, impande ye hicaye undi. Imbere ye hari inkoko iteretseho akantu k'umutuku urabona ko ari abantu babyitabiriye wagira ngo bari kwifotoza.

Umwana uri kurira wikoreye amaboko, bigaragara nk'a bamaze kumukubita cyangwa hari icyo bamwimye. Aha inyuma hari ibicu bisa neza, byiganjemo ib'yubururu n'iy'umweru naho yageranye n'umugore, wambaye ijipo irimo amabara y'umutuku n'umweru.

Mu Rwanda hari inzu yashyizweho, ivura abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, kandi iyo nzu yaziye igihe. Nta muntu utabizi, ko aho hantu iyo nzu iri, ari ku ivuriro ryiza, rivura abantu bahuye n'ibibazo byo mu mutwe. Iyo umuntu agiye afite icyo kibazo baramuvura, akagaruka yarabaye muryerye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu cyumba kirimo icyapa cyanditseho umuryango wita ku burenganzira bw'abana, handitseho mu magambo y'umweru uwo muryango no hasi ngo kuri buri mwana ku gapapuro gafite ibara ry'ubururu, ni icyumba ubona ko gisa neza kibereye kuberamo inama.

Buri muntu wese agomba kumenya ibijyanye n'indwara cyangwa mu buzima bwo mu mutwe, ni byiza, buri wese niyirinde ibibazo bijyanye no mu mutwe, yiyiteho kandi yirinde kwigunga no kwiha ubwigenge bukabije, ahubwo amenye ko ari byiza kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Nta kintu cyagenda neza mu gihe ubuzima bwawe bwo mu mutwe butameze neza. Uzakore uko ushoboye ubuzima bwawe ubugire bwiza ndetse wirinde ko hari icyabwangiza. Umutwe ni wo uhatse ibitekerezo by'umuntu, kandi ni wo ubigenga. Nuramuka utawufashe neza bizakugiraho ingaruka kandi mbi.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gikomeye, kuko buriya mutwe niwe uhetse ubuzima bwa muntu bwose. Iyo ugize ikibazo umutwe wawe usanga umubiri wawe utagikora neza wose, ugasanga bibaye ibibazo cyane.

Ubuzima bwo mutwe ni ikintu cy'ingenzi, umukobwa aziritse, aho amaguruye aziritswe n'umunyururu ku giti, yicaye ku gasambi, urabona ko ababaye kandi atameze neza uko bigaragara.

Mu gisambu ahantu ubona ko ari mu kinani, hari umugore witwaje inkoni, ndetse ni batatu, bose bafite inkoni mu ntoki, bambaye udupira tw'amaboko magufi, biragaragara nk'aho bari bavuye mu turimo tw'amaboko, maze bagahagarara umuntu akabafata ifoto.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi. Ni bwo buhatse umuntu wese, kuko iyo ugize ikibazo mu mutwe urahungabana, mbese ntihagire ikintu cyo ku rugingo rwawe gikora neza. Ni yo mpamvu umwana wambaye ubusa wicaye hasi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Ukwiye kwishima, cyane cyane iyo ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ni yo mpamvu umukobwa uri guseka, abona ko afite ubuzima bwiza, yambaye agapira k'umutuku inyuma y'ikanzu y'ibara ry'ubururu.

Ubuzima bwo mu mutwe tujye tubwitaho, hari igihe umuntu bigaragara ko afite ikibazo mu mutwe, maze abaganga bakamwegera, bagashaka uburyo bamufasha maze agakira. Bamwitaho maze ubuzima bwe bwo mu mutwe bukagenda bugasugira.

Iyo umuntu atameze neza, aragenda akajya kwa muganga bakamuvura, bigenda bite? Baragenda bagashaka uko babigenza maze bakaba bamuha ubufasha cyangwa se ubufasha akeneye, ibyo ntibikorwa ku bantu barwaye gusa indwara zisanzwe, ahubwo bikorerwa n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Na bo baragenda maze bakabitaho.

Abantu benshi ubona biganjemo abambaye imipira y'ubururu, bateraniye hamwe hagati yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati, urabona ko basa neza, bishimye biragaragara ku maso yabo.

Ubuzima bwo mu mutwe, nicyo kintu cya mbere. Umugabo wicaye hasi, inyuma ye hari undi wambaye ibikweto birebire, wakwita nka butini n'ipantaro y'umukara, yambaye amapingu amuziritse intoki, ndetse n'agakabutura kagufiya, ari kureba imbere ye, akanuye amaso.

Ubuzima bwo mu mutwe dukwiye kubwitaho, cyane cyane twita ku bakuze kuko nabo ari abantu nkatwe kandi bafitiye igihugu akamaro. Niyo mpamvu umuntu wese aho yaba ari hose niwe ukwiye kwita ku buzima bwo mu mutwe bwa mugenzi we kuko ari ikintu cy'ingenzi cyane.

Utitaye ku bidukikije sinzi icyo waba ushaka. Niyo mpamvu n'ahantu hagiye hakikije ibitaro n'amavuriro cyangwa se ibigo nderabuzima, usanga barahateye ibiti bituma hagira akayaga keza, mbese abantu bahaba bakaba bameze neza. Hari rero n'abandi bantu bafashe ibyo bintu babishyira mu nshingano zabo byo kujya batera ibiti kugira ngo isi ibone umwuka mwiza.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki abenshi bita mikoro, yicaye imbere y'intebe iteretseho mudasobwa n'icupa ry'amazi, yageranye n'abandi bantu ubona ko bamuteze amatwi, bumva ibyo ari kuvuga, urabona ko ari umugore ukeye ufite ubwonko bukora neza.

Umugore ubona ko asa neza, wambaye umwenda udoze mu gitenge ndetse n'ibikomo n'imitako ku kuboko kw'iburyo, yambaye amataratara cyangwa icy'abantu benshi mu kinyarwanda bita amarinete nubwo ari izina ry'amahanga, ndetse afite n'akantu mu ntoki kagaragaza icyo akora.

Ubuzima bw'umuntu buriya ikintu cya mbere kiburanga ni ubwonko, iyo ubwonko bwawe budakora neza umutwe wawe na wo ntuba umeze neza, uba umeze nk'aho hari ikintu ubura mbese ujye umenya kubaho wita ku bwonko bwawe.

Abantu benshi ubona ko babyitabiriye babishaka, bari abantu ku murongo bambaye imipira y'icyatsi, abenshi ni abakobwa nubwo harimo n'abahungu, hagati hari umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati n'ipanantaro y'umukara ubona ko ari umuyobozi.

Iyo bari kuvura indwara zo mu kanwa, bisaba ko umuntu yicara cyangwa aryama agaramye, niyo mpamvu haje intebe yabugenewe uburwayi yicaraho akegama bigasa naho araramye, bigafasha muganga kumureba mu kanwa maze akamukura cyangwa akamuvura mu kanwa.

Ese wigeze uhura n'ikibazo cy'indwara zo mu kanwa? yego, hari abahuye na cyo n'abatarahuye na cyo, niba utarigeze uhura na cyo, ndabizi ko ushobora kuba utazi ibi bintu, nurwara uzajye kwa muganga, bazakujyana ahantu maze bagusuzume, nibabona ufite ikibazo cy'iryinyo cyangwa ikindi cyo mu kanwa, bakwiteho bakuvure maze ukire.

Twite ku buzima bwo mu kanwa. Amenyo ni ikintu cy'ingenzi tujye tuyitaho kuko akenerwa kwitabwaho cyane. Nutayitaho ni wowe bizagiraho ingaruka mbi. Rero ndakwinginga muvandimwe jya wita ku menyo yawe cyangwa se ubuzima bwo mu kanwa bwawe, kugira ngo ejo hawe hazabe aheza.

Niyo mpamvu aha ubona ko hagaramye umwana ubona ko yasamye bari kumutera urushinge mu ishinya kugira ngo bite ku menyo ye, kandi ni byiza kuko amenyo iyo afite ikibazo umuntu ntabwo aba ameze neza umubiri wose.

Nubyara, uzashake uko ubigenza maze umwana wawe umwigishe kujya agira isuku. Ni byiza, ariko cyane cyane uzamwigishe kugira isuku yo mu kanwa, kuko buriya akanwa ni ikintu cy'ingenzi. Nyabuna mujye mubyitaho, umuntu yigishe umwana we akiri muto uburyo akwiye kwita ku buzima bwe bwo mu kanwa.

Imbere y'icyuma gisakaza amashusho cyangwa se insakazamashusho, hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'amataratara n'isaha y'umukara ku kuboko uri kureba muri icyo cyuma nsakazamashusho.

Ngira ngo mwese murabizi, amenyo ni ikintu cyo kwitabwaho, ariko hari ubwo usanga nk'iryinyo ryawe riri kugenda rimungwa, rigenda rihunguka cyangwa rigenda ritakaza ubuziranenge, bavandimwe mureke twite ku menyo yacu kuko ni ikintu cy'ingenzi.

Iyo ugiye kwikuza iryinyo bagutera urushinge mu ishinya, kugira ngo nibagukura utaza kubabara, ariko hari n'igihe ugenda ugasanga amenyo yawe afite ikibazo bagashyiramo ibyuma, maze bakayegeranya kugira ngo wongere umere neza maze ukire uko byagenda kose.

Umugabo ubona ko ari kureba imbere ye, afashe urudodo mu ntoki, afatishije intoki ze zombi. Ari gusukura amenyo. Nkuko tubizera rero gusukura amenyo ni byiza kuko, amenyo ni ingirakamaro. Kuko udafite amenyo mazima, ushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane.

Umuntu urwaye amenyo ugaramye bigaragara ko bari kumuvura, hejuru ye hahagaze undi wambaye uturindantoki tw'umweru mu ntoki ze kandi yashyize utwuma mu menyo ya wa muntu ugaramye bigaragara ko ari kumuvura.

Umugabo ubona ko yishimye wambaye umupira w'umweru urabagirana, yafashe urudodo mu ntoki ari gusukura amenyo, afite umusatsi ushoka ujya ku ruhande muremure, ubona ko yawusutse.

Ahantu ubona ko ari kwa muganga, hari umugore uryamye mu ntebe, ubona ko ari iy'abaganga baryamishaho abantu bagiye kuvura amenyo. Imbere ye hahagaze umugabo ubona ko ari umuganga, wambaye uturindantoki tw'umweru, ufite urudodo mu ntoki ari kurebana n'uwo mukobwa uryamye kuri ya ntebe ibavuriraho abantu bafite indwara zo mu kanwa.

Ubuzima bwo mu kanwa ni ikintu cy'ingenzi, ni yo mpamvu hakozwe utuntu bakatwita uburoso bw'amenyo, ndetse bagakora n'ibindi bintu bisukika cyangwase bifashamo gake, bakabyita umuti w'amenyo, yego ni byo, iyo ubikoresheje ukoza amenyo ukoresheje ibyo byombi, amenyo yawe abamera neza mbese ntiyatakwe n'ifumbi cyangwa ngo afukuke.

Kera umuntu iyo yajyaga koza amenyo byasabaga uburoso n'amazi meza cyangwa umuti wo koza amenyo. Ariko ubu haje ubundi buryo aho ugenda bakaguha urudodo, ukajya urucisha hagati y'amenyo yawe. Urwo ni urudodo rwiza kandi iyo urukoresheje amenyo yawe aracya.

Ita ku buzima bwo mu kanwa mu mubiri wawe. Niba utabizi akanwa ni ahantu h'ingenzi mu buzima, niho dukoresha turya, iyo tuvuga, iyo duseka n'ibindi. Mbese kugira ngo ugaragaze amarangamutima yawe, cyangwa ubundi butumwa ushaka gutanga, ukoresha umunwa.

Ahantu handitse ngo icyizere, aho bavurira indwara zo mu kanwa hari inzu nziza ndende nini cyane ubona ko ari igorofa iberanye n'igihe, ni nziza nk'uko bigaragara buri muntu wese yakifuza kuza kuhivuriza indwara zo mu kanwa.

Twite ku buzima bwo mu kanwa, kuko ni ikintu cy'ingenzi. Amenyo ni ingenzi, ariko tujye tuyitaho, kugira ngo atazakuka, cyangwa agafukuka, maze bikatuviramo ingaruka mbi, nyinshi zitandukanye.

Iyo ugiye kwa muganga ufite ikibazo cy'indwara zo mu kanwa cyangwa ubuzima bwo mu kanwa bwawe butari kugenda neza, bakwicaza ku ntebe maze bakakwereka uburyo uryama umeze nk'ugaramye, maze bakakuvura, ngirango mwese murabizi, ibyo bintu birakora.

Ahantu haryamye umugabo ubona ko ari kwa muganga, yashyizwe akuma mu kanwa kari kumupima ngo barebe uko ameze mu kanwa, nibyo rero ubuzima bwo mu kanwa tubwiteho, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu, kandi ntitugomba kubwangiza.

Kwa muganga hari ibikoresho byinshi byifashishwa havurwa indwara zo mu kanwa, nk'intebe umuntu aryamamo ifite amapine, akarama mu gihe bari kumukura amenyo, cyangwa bari kumukorera ibindi bintu byita ku buzima bwo mu kanwa, bukabasha gutuma amera neza cyane, ntagire ikibazo na kimwe ahura nacyo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, iriho ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda, ari kwereka umwana uburyo basukura amenyo. Inyuma ye, hari abandi bantu bahagaze, bitegereza uko ari kubigenza. Ahantu bari ni mu ishuri.

Hari intebe zabugenewe zifashishwa havurwa indwara zo mu kanwa. Izo ntebe zimeze nk'ibitanda. Ariko aho ziba ziri haba hari ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa nk'ikimurika mu kanwa k'umuntu bagiye kuvura, ndetse n'ikindi twakwita nk'aho ari insakazamashusho.

Akenshi iyo umuntu avuye gukaraba, cyangwa mbere yo kujyayo hari nk'aho agiye cyangwa agiye kuryama, na nyuma yo kurya cyangwa nyuma yo kuba yagize umunsi muremure, afata uburoso bw'amenyo akayoza, akenshi mu nzu twogeramo haba hari ibirahure umuntu yirebamo iyo ari koza amenyo ye.

Abagore babiri, bari ku murongo bareba imbere, barambuye amaboko ubona ko bishimye. Bari mu myitozo ngororamubiri, ni byiza rero natwe tujye dukora imyitozo ngororamubiri, kuko ni ikintu cy'ingenzi. Nuyikora, uzabona uburyo ifasha ubuzima bwawe bukagenda neza. Rwose mujye muyitabira.

Bavandimwe mureke twite ku bakuze, ni bo babyeyi bacu, abavandimwe, n'inshuti, baratubyaye cyangwase bavutse mbere yacu, bafite icyo bazi, natwe rero nk'abakiri bato tubiteho tubafashe kumera neza, umwana w'umukobwa afashe ku muntu ubona ko ari se, ari kumwitaho amuganiriza urabona ko bishimye.

Twite ku bakuze. Igihugu kitita ku bakuze ntabwo kigira ejo hazaza heza, kuko abakuze ni bo bagira inama abakiri bato, bakababwira uko bakwiye kwitwara maze igihugu kikazagira ejo heza.

Kwa muganga ubu usanga bita ku bantu bakuze maze bakabaha ibyo bakeneye, baba hari ukuze utabasha kugenda bakamutwara mu kagare, ariko akitabwaho ku rwego rwo hejuru, kuko igihugu cyacu cy'u Rwanda kiba gishaka kwita ku bantu bose b'ingeri zose.

Imiti gakondo ni ikintu cyiza, kandi gifasha abantu. Ariko nanone kwita ku buzima bw'abakuze, ni ikintu cy'ingenzi. Niyo mpamvu, ubona ko hari udufuka tugiye turimo ibintu byinshi bitandukanye, byifashishwa n'abakuze.

Kwita ku bakuze ni ikintu kiza, niyo mpamvu nk'iyo ugiye mu bukwe usanga aribo basaba abageni cyangwa se wajya ahandi ugasanga nibo bakuru cyangwa se bitaweho, baba bakwiye guhabwa umwanya maze bakavuga ku buryo baciyemo kera na bo bakiri mu myaka mito.

Imbere y'ameza ubona ko hateretseho ikirahure kirimo amazi, n'agacupa k'umweru bose bafashe mu ntoki, cyane cyane uwo musaza ni we ugafashe, impandeye yegeranye n'umukecuru ufite imisatsi irimo imvi, uri kumwereka ibiri ku rupapuro, wagira ngo ari kumwereka uko akwiye kunywa iyo miti afashe mu ntoki.

Umugabo ukuze wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu n'agapfukamunwa, imbere ye hasutamye umukobwa wambaye impuzankano z'abaganga, wambaye agapfukamunwa gafite imishumi izikiye mu irugu, afite imisatsi myinshi, ameze nk'uri gupima uko umutima w'uwo mugabo umwica imbeba utera.

Umusaza wambaye amadarubindi, ari kureba imbere ye, ku gikayi gihari, afashe ikaramu mu ntoki. Afite imvi, ndetse umusatsi we urabona ko wahindutse umweru koko! Yambaye ishati ifunguye ahagana hejuru.

Twite ku buzima bw'abakuze kuko ni ingenzi, abakuze bakwiye kwitabwaho kuko ikintu cyose ukwiye kumenya ko iyo utitaye ku bakuze uba uri gusubira inyuma, niyo mpamvu dukwiye kubitaho kugira ngo ejo hazaza h'igihugu cyacu hamere neza.

Abakuze bagomba kwitabwaho kuko igihugu iyo kititaye ku bantu bakuze, ejo hacyo hazaza hararindimuka. Niyo mpamvu kiba gikwiye kwita kuri ejo hacyo, gifasha abantu bakuze, kibitaho maze bakamera neza.

Hari igihe nk'uko mu Rwanda babigenje, usanga abantu bo mu nzego z'ubuzima begereye abaturage maze bakabaha serivisi z'ubuzima. Aho babapima umuvuduko w'amaraso cyangwa bakabapima n'uko umutima utera bityo bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze kuko izo ni indwara zica cyane.

Umugore wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri, arambuye ukuguru urabona ko ibyo ari gukora abizi kandi abishaka, ahantu ari iruhande rwaho hateretse intebe ndetse n'itara rimwe ryo mu cyumba abantu bakunda gushyira aho barara kugira ngo bajye bareba ritabica amaso.

Yego guseka ni byiza, ngira ngo murabizi, iyo umuntu asetse aba yiyongerera iminsi yo kubaho, ntukabikerense ugire ngo barabeshya nibyo, umuntu iyo ari guseka, aba yongera iminsi ye yo kubaho, nanjye ndabikora buri gihe.

Abagore bari kureba muri telefone, ubona ko bishimye uwo hagati urabona ko abumbuye umunwa, abandi bo urabona ko basa naho birakaje, bari kureba muri ako gatelefone ubona ikintu bari kureba gishobora kuba gifite agaciro gakomeye.

Abantu bakuze cyane bakunda kuba bari kumwe n'abana bato, cyane cyane nk'iyo ari abuzukuru babo, cyangwa bafitanye indi sano y'amaraso, barabaterura, bagakina nabo kuko baba bumva ko ari amaraso yabo, kandi birashimisha cyane kugira umwuzukuru.

Iyo abantu babiri basazanye ari nk'umusaza n'umukecuru, ibintu byose bagiye gukora babijyaho inama. Ni yo mpamvu n'iyo umwe yarwaye akajya kwa muganga, ikintu bamuha ni imiti. Ariko iyo agiye kuyinywa kubera ko aba azi ko ashobora kwibagirwa, umufasha we basazanye amufasha kureba uko yayinywa.

Impande y'idirishya ahantu hahanitse supanete, hari umugabo wicaye biragaragara ko ari kwa muganga. Ari gufashwa guhaguruka n'umugore wundi begeranye, ubona ko ari kumufasha kugira ngo arebe ko yahaguruka maze akagenda.

Umugore ubona ko ari umuganga wambaye ijiri ari kugenda ahereza ibinini abantu bicaye imbere ye urabona ko agezweho, imbere ye hicaye umusaza uri kuvugira kuri telefone wambaye ikote ry'umukara n'ishati ifite ubwiganze bw'ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Umudamu wa perezida wa repubulika y'u Rwanda madamu Jeannette Kagame, ni umuntu ukomeye cyane mu Rwanda. Kuko abasha gusobanurira abandi bantu ibijyanye n'ubuzima, kuko we ni inzobere kandi ni umuntu w'inararibonye.

Munsi y'ibirangantego by'u Rwanda, hahagaze abantu ubona ko ari abayobozi biganjemo abagabo n'abagore, urabona ko bishimye, ni abantu ubona ko bakwiriye kuyobora, birabasa kandi na bo baracyeye, ibirangantego biri ahantu hari ibara ry'ubururu.

Hari inama nyinshi zigenda ziba zibera mu Rwanda kubera ko mu Rwanda hari ibikorwa remezo, izo nama hari igihe ziba zidahuje ibihugu byo hafi aha gusa, ugasanga nn nk'ibyo muri Afurika yose zigamije kwiga ku kintu runaka cyane cyane ibijyanye n'ubuzima.

Mu Rwanda hari inzu nini, iyo bibaye nijoro yaka yikaraga, kubera ukuntu iteye ituma abanyarwanda benshi baterwa ishema na yo. Nyamara higeze kuberamo inama ishinzwe ibijyanye no kurwanya diyabete cyangwa se indwara y'urusukari. Iyo nama yabereye muri ya nzu abanyarwanda bose baterwa ishema na yo.

Turwanye kanseri mu bana, tuyirwanye tuyihashye kuko iyo ibagezemo irabangiza, hari ubwoko bwinshi bwa kanseri ariko bwose dufatanye tubuhashye, tuburwanye kanseri ni indwara mbi cyane iyo ifashe umuntu iramuzahaza.

Inama yiga ku buzima irabura umunsi umwe, iyandikishe ni byiza kuyitabira, iyi nama izaba yiga ku bintu biri kugenda bicicikana cyangwa se bigezweho ku bijyanye no muri Afurika.

Iyo ugiye kwa muganga ufite ikibazo gikomeye, hari ubwo bafata umwanzuro wo kukubaga, maze ubuzima bwawe bukongera bukamera neza, niko bimeze kuko aha bafashe umwanya babaga umuntu ari abaganga benshi ubona ko babizobereyemo.

Imbere y'inzu, ahantu ku rubaraza hicaye abantu benshi, b'abagore, ubona ko barangamiye ikintu kiri iburyo bwabo. Harimo abambaye ingofero, abipfutse ibitambaro mu mutwe, n'abandi bafite imisatsi myinshi. Bose urabona ko bahujwe n'ikintu kimwe.

Rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi ibyo ni ibintu tugomba kubwira urubyiruko ndetse tukabirukangurira kuko akenshi ni rwo usanga rukerensa ko SIDA iriho. Ni ngombwa rero tubyigishe abana bari mu mashuri tubabwire babyitabire na bo babikangurire abandi bantu.

Banyarwanda banyarwandakazi, namwe bandi mukunda u Rwanda cyangwa abandi bumva ikinyarwanda, dufatanye turwanye kanseri, iyo ndwara ni mbi, ariko iterwa n'ibintu dushobora kwirinda, dushobora gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwase tukarya neza, tukagabanya ibiro maze tukaba turayirinze.

Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira, ni icyapa hejuru kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ku mpande hariho icyapa cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuvuzi, inyuma y'abantu bagifashe mu ntoki zabo ari babiri hari ibendera ry'u Rwanda na ho imbere y'umugore uri iburyo hari intebe.

Kwa muganga, abaganga hari igihe baba bifurebye kandi bambaye imyenda ipfutse ahantu hose kugira ngo batandura indwara izo arizo zose. Mu bikorwa bakunda kuba bari gukora, bifashisha ibindi byuma bitandukanye kugira ngo babashe gukora imirimo bashinzwe kandi bayikore neza.

Mu gihe cy'ibyorezo usanga abaganga baragiye bakora ibyo bashoboye kugira ngo ibyo byorezo byirindwe. Niyo mpamvu, wajyaga kwa muganga igihe wabaga utarikingije bakagukingira, cya gihe habaga hari ibyorezo biri gukwirakwira, cyane cyane nk'icyitwa Corona virusi.

Ku itariki ya makumyabiri n'iyamakumyabiri n'imwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane habaye inama, kandi iyo nama yari igamije gufata ingamba mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse no gukora ubushakashatsi.

Indwara yitwaga Marburg virus, ni indwara mbi cyane yicaga abantu. Yatumye umuyobozi w'agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima aza mu Rwanda kugira ngo arebe uko bihagaze. Rero natwe duharanire kuyirwanya kuko ni indwara mbi cyane kandi yangiza.

Hari ahantu henshi ushobora kugurira imiti, uragenda bakaguha ibinini bagendeye ku ndwara wavuze ariko si kwa muganga. Ni ahantu baba bariyemeje gucuruza imiti, bayigurishije bitagombye kujya kwa muganga. Aha turi kubona ho ni kuri Iraguha, aho na we acuruza imiti.

Kwa muganga ku bitanda, nkuko bigaragara ni umurwayi uryamyeho, yegeranye n'undi mwana nawe ubona ko aryamye, umwe bivuze ko ari mukuru, undi akaba umwana, hejuru y'aho bari hari ibyuma by'amashanyarazi, ndetse impande yabo kuri wa mwana we hateretse amacupa manini y'amazi.

Hafi n'ishyamba urahabona inyubako nziza isize amarange y'umweru ifite amabati atukura, ubona ko ari inzu ikorerwamo ubuvuzi, uko bigaragara ni mu Rwanda kuko mu Rwanda ubuvuzi bwaho bwateye imbere. Impande y'iyo nyubako hari ibendera ry'u Rwanda rishinze ku cyuma kirekire rizamuye hejuru.

I Butare, hafi ya kaminuza y'u Rwanda, hari ibitaro bya kaminuza. Aho hantu rero ni ho abanyeshuri biga muri kaminuza mu bijyanye n'ubuvuzi, aho i Butare, bakorera ubushakashatsi ku bijyanye n'ibyo biga. Ndetse ni na ho abantu benshi baza kwivuriza kuko haba hari inzobere nyinshi.

I Nyarugenge ni mu Gihugu cy'u Rwanda. Na ho rero nk'uko mu Rwanda bita ku bijyanye n'ubuzima ntabwo bigeze bagera i Nyarugenge ngo bahasigaze inyuma cyane ko ari no mu Mujyi wa Kigali. Ni yo mpamvu hari ivuriro rigezweho ryubatswe mu buryo bugezweho. Imbere yaryo hari ubusitani buteyemo indabo ariko zikiri nto zitari zaraba ubona ko ari ivuriro rigezweho cyane mu Gihugu cy'u Rwanda.

I Kigali hari ivuriro ryifashishwa mu gusuzuma indwara nyinshi zitandukanye. Umuntu iyo ari mu ntara, bamuha urupapuro rumwohereza rukamuvana ku bitaro bimwe rukamujyana ku bindi. Ibyo bitaro rero biri ahantu i Kigali impande y'umuhanda wa kaburimbo, hari icyapa kibiranga, iyo uhageze uhita ubibona.

Ubu amavuriro menshi afite ibitanda bigezweho, nk'ayo mavuriro iyo winjiyemo ubona ibintu bitangaje, cyane iyo ugeze ahantu hari amarido ameze neza ibitanda ubona ko bimeze neza uratangara cyane.

Mu cyumba gisize irangi, gifite amadirishya asize irangi ry'umweru na yo, kandi afite ibirahuri binini bituma muri icyo cyumba hageramo urumuri, harimo intebe n'ameza by'umukara, ndetse n'utundi tumeza dutoya umuntu yagenda asunika.

Mu Rwanda hari ubuvuzi buteye imbere, aho usanga nk'umurwayi yaje kwivuza bamushyira ku mashini maze igafasha muganga kumusuzuma, ibyo byagezweho bitewe n'uko Leta y'u Rwanda ibona ko hakwiye gushyirwamo imbaraga mu guteza imbere ubuvuzi.

Irembo ni ahantu hasigaye hatangirwa serivise nyinshi ariko imbere y'icyapa cyanditseho iryo jambo, hicaye umugabo mu ntebe y'umukara wambaye agakarita kamuranga mu ijosi gafite ibara ry'ubururu. Yambaye ishati y'amaboko magufi, imbere ye hari undi wambaye ijiri y'umukara n'umupira w'umweru uriho ikirango cy'umuryango utabara imbabare.

Umwana ubona ko yari arwaye, ariko muganga akamwitaho agakira, ari guseka, yambaye hejuru ubusa. Imbere ye hari undi wa ni mukuru we, nawe bari kurebana bose baseka, naho muganga we yambaye agapfukamunwa, yaba ari guseka, yaba atari guseka ntiwabimenya.

Kwa muganga habayo imashini zitandukanye, aho umurwayi agenda maze iyo mashini bakayikoresha bamupima; iyo njye nabonye ni imashini iri mu cyumba ahantu, iriho insakazamashusho, kandi ubona ko igendanye n'igihe, icometseho ibitsinga byinshi.

Ahantu ubona ko hameze neza, hari ubusitani ndetse muri ubwo busitani hakaba harimo n'ibyicungo by'abana, hari ibigega by'amazi ndetse n'amatara, muri ubwo busitani hateyemo ibiti birimo n'ibibyara imbuto cyangwa se byera imbuto.

I Huye hari icyicaro cya polisi nk'ahandi hose mu gihugu, aho iyo umuntu hari ikibazo cyangwa hari icyaha yakoze bamujyana. Impande ye hari icyapa kiharanga, hari inzu ifite igisenge cy'ubururu, ndetse yubakishije amatafari, idahomye, ubona ko ari inzu y'umuntu wifashije.

Hari ahantu ushobora kujya ukahasanga imiti, kandi ari ivuriro ryigenga. Si ngombwa ngo buri gihe nujya kwivuza uzajye usanga ari ivuriro rya Leta. Oya, hari amavuriro menshi yigenga kandi aba akora neza atanga serivisi zose.

Icyumba bakoreramo ubushakashatsi mu bya gihanga cyangwa se cyifashishwa mu gupima ibisubizo ndetse basuzuma ibizamini byafasha umuntu, kiba kiri ahantu ku bitaro byinshi, icyo njye mbona giteyeho akapa kagaragaza kaminuza y'u Rwanda, hejuru y'aho hari ibicu bisa neza by'umweru n'ubururu.

Inzu yo kwa muganga iri ahantu heza, imbere yayo hari ubusitani bukikijwe n'indabyo z'icyatsi n'iz'umuhondo. Ni ahantu ubona ko hitabwaho cyane kuko utubabi duhari ari duke, bigaragara ko utwari duhari dushaje badukuyeho, imbere yiyo nyubako hagati mu busitani harimo umugezi ufite akantu kawufungura gafite ibara ry'umutuku.

Umuntu ushobora kuba ari umuganga uvura indwara zo mu kanwa, yicaye ku gatebe gafite imipine, ari impande y'intebe iryamaho umurwayi uje kwivuza, ni heza, aho hantu harakeye ubona ko hari isuku nk'aho ari kwa muganga.

Hari ahantu bacururiza imiti abantu benshi bita farumasi, iyo ugiyeyo baguha imiti ukeneye, hari amafaromasi rero usanga akorana n'ibigo by'ubwishingizi, aho ugenda ufite ubwishingizi bakaguha imiti babugendeyeho.

Niba ufite ubumuga ntukagire ipfunwe, ahubwo ujye wumva ko nta kibazo umeze nk'abandi ndetse ntukiheze kuko ibyo gibyo ni bibi; ariko natwe rubanda n'abandi yaba ubana n'ubumuga cyangwa utabana na bwo mwitonde ntimugatere abantu bafite ubumuga ipfunwe.

Iyo umuntu yakoze icyaha aragihanirwa. Ni yo mpamvu mu Mujyi wa Kigali na ho hari ibigo byinshi usanga bigororerwamo abantu bakoze ibyaha, maze bakagenda bihana, maze bakazagaruka mu buzima busanzwe bameze neza, ingeso zabo zarahindutse bitwara neza mbese muri rubanda.

Ahantu hari inyubako z'ubuvuzi ni heza urabona ko bahubatse bahitayeho, hari ubusitani ndetse n'ibiti bituma abantu bari kuri iryo vuriro bahumeka umwuka mwiza, hari inyubako nziza zifite ibisenge by'ubururu ndetse zisakaje amabati y'ibara ry'ubururu.

Kwa muganga iyo ugezeyo urwaye, bakora uko bashoboye ikipe y'abaganga ikakugeraho ikakwitaho, bakakwandikira imiti, basanga ukwiye no guhabwa igitanda bakakiguha ariko bamanje gukora uko bashoboye ngo bakuvure barebe ko wakira

Mu cyumba ubona ko ari kwa muganga harimo umugore wambaye impuzankano ubona ko ari iz'abaganga, imbere ye hari ibitanda by'umweru ndetse harimo n'ibitambaro abantu benshi bita amarido by'ubururu binini bizinze.

Impande y'indabo ndende. Hari ivuriro, ryanditseho Remera Rukoma. Risakaje amabati y'ubururu, ndetse rifite n'umureko. Imbere rifite inkingi ndende isize irange ry'umweru. Iyo uyitegereje, ubona ko ari inyubako igendanye n'igihe.

Imbere y'inyubako ibambyeho igipapuro kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, munsi handitse ngo Minisiteri y'Ubuzima. Hasi hari amagambo yerekana ikigo gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda. Ni inzu nziza ubona ko ari igorofa, imbere yayo haparitse imodoka eshatu.

Kwa muganga habayo inzu y'ababyeyi. Aho ni aho umuntu ajya igihe agiye kubyara cyangwa se yabyaye, maze bakamuhera ubufasha bwose bukenewe, kugira ngo aze kubyara neza cyangwa se niba yanabyaye akomeza kwitabwaho, yaba we n'umwana yabyaye.

Mu buvuzi hari icyuma kifashishwa kugira ngo harebwe utuntu duto cyane nk'iyo umuntu arwaye akajya kwa muganga agatanga ikizamini nk'icy'amaraso, ayo maraso bayashyira hafi y'icyo cyuma maze bakareba indwara iri mu maraso y'uwo muntu.

Kwa muganga hari ibyumba byinshi usanga bivurirwamo abarwayi, hakaba hari aho ugenda ukaryama maze bakagucisha mu cyuma, aho kenshi usanga hari isaha ndetse n'ikindi cyuma kiriho insakazamashusho muganga aba areberaho uko umubiri wawe uhagaze.

Hari ahantu ujya urwaye bakaguha imiti, wayikoresha ugakira. Aho hantu usanga ari ko kazi bafashe. Abenshi baba barize ubuganga cyangwa se ibijyanye n'imiti, maze barangiza bagashaka uburyo bakora iyo mishinga yo kugurisha imiti.

Mu gihe cy'ibyorezo cyangwa ubundi burwayi bukomeye, abaganga barifureba kugira ngo abaje barwaye ibyorezo batabanduza, nubwo aribo batuvura ariko nabo ni abantu, bararwara, bakababara, mbese bikabagiraho ingaruka zikomeye, niyo mpamvu nabo iyo hateye ibyorezo bifurereba ku buryo ibyorezo bitabageraho.

Inzu nziza ubona ko ikeyeye, imbere hariho uturango tugenda twerekana ibikorerwa muri iyo nzu, hari aho ushobora kujya ugasanga ni aho bafatira ibizami, cyangwa wacishiriza umuntu mu cyuma, hari aho bakohereza bakubwira ngo ni ku ivuriro, aho bakubwira ngo ni icyumba cyo kuruhukiramo n'ibindi, iyo ugeze aho ntabwo ubasha kuyoba.

Inyubako nyinshi ziri ku bitaro bya Kabgayi, zubakishije amatafari adahomye. Ni heza, iyo uhageze uhita ubibona uburyo hasukuye. Umuntu wese yakwifuza kuhaza cyane cyane arwaye. Nubwo nta wifuza kurwara, ariko basi mu gihe byakubayeho, waza bakakuvura.

Inyubako nziza ifite inzu nziza, ndavuga ko ifite n'inzugi zigezweho, biragaragara cyane ku bantu bazi iyo nyubako kuko ntawe utakwifuza kuyigendamo, ifite inzugi zikomeye zisa neza, ndetse isize n'amarange ubona ko ari meza akurura abantu.

Ahantu henshi ku mavuriro, ubu usanga hari aho uhera, hari icyuma cyanditseho amagambo akubwira ngo nuhagera uhagarare, maze ubanze uvugane n'umuntu ushinzwe umutekano. Ariko iyo winjiyemo imbere, uhasanga utwapa tugenda tukurangira, aho wasanga serivise urimo gushaka.

Abaganga baba barize ibintu byinshi n'uburyo bwinshi bashobora gukoresha bavura, ni yo mpamvu ubu ngubu iyo ugiye kwa muganga usanga hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi ndetse n'imashini z'abaganga bakoresha bari kuvura, ukabona ko ari ibintu byateguwe kandi ubona ko bifite akamaro ku batuye igihugu.

Mu nyubako zo kwa muganga haba mu Rwanda n'ahandi usanga harimo ibikoresho byinshi bigezweho bitandukanye. Nk'aho usangamo insakazamashusho, ahandi ugasanga harimo isaha, ugasanga harimo ibyuma byifashishwa mu buvuzi n'intebe zo kwicaraho.

Mu cyumba ubona ko gishushanyijemo, harimo igitanda ndetse n'insakazamashusho, hejuru hari parafo ndetse n'amatara ari kwaka. Urabona ko ari ahantu hateguwe kandi hameze neza. Agatebe karimo ntabwo bakegamira ariko gafite amapine.

Kwa muganga hari ibyumba usanga harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kandi bakabyifashisha bari kuvura abarwayi. Ni ahantu umuntu ajya ugasanga akoze imyitozo, yaba hari umubiri we ufite igice kidakora neza maze agakora imyitozo ngororamubiri, akananuka maze akamera neza.

Iyo ugiye kwa muganga, usanga harimo ibikoresho bigezweho byifashishwa kwa muganga. Hari intebe zaje zifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo byo mu kanwa, aho uyicayeho aba ameze nk'uryamye ariko agaramye, maze akegama ,maze ukareba mu kanwa ke, kandi ubona ko zifasha cyane iyo bari kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu kanwa.

Inzu y'ababyeyi n'impinja, ni ahantu umubyeyi iyo agiye kubyara cyangwa amaze kubyara agenda akajya akaryama akaruhuka ndetse akitabwaho n'abaganga kandi bikaba ari ibintu byiza.

Muri Afurika hari ikigo gishinzwe kurwanya indwara zifata abantu ndetse n'inyamaswa, icyo kigo gikorera mu nyubako nini cyane ubona ko igezweho, ifite ibirahure ndetse imeze neza umuntu wese atabasha kuvuga ko ari mbi, kuko aho waba ari hose uba ubibona ko ari inyubako nziza.

Intebe ubona ko yabugenewe, iri ahantu mu cyumba gisizemo irangi ry'umweru, iruhande rwayo hari akandi gatebe gato gafite amapine. Ariko n'iyo, ifite amapine y'umweru, ubona ko umuntu ashobora kuyimura ayisunitse, ayivana hamwe ayijyana ahandi.

Ibitaro bivura indwara, ni ibitaro byiza ubona ko byubatse mu buryo bugezweho, ahagana hejuru hari ibirahure ndetse bisize n'amarangi. Imbere yabyo hasashe amapave, twatubuye bakoresha basasa ahantu kugira ngo habe hari isuku.

Hari ibitaro byitwa iby'Umwami Faisal, ibitaro byiza bigezweho biri mu Rwanda, ibyo bitaro impamvu byitwa uko ni uko byitiriwe uwo mwami, haba harimo abaganga b'inzobere babasha gufasha abaturage maze bakamera neza.

Mu nyubako yo kwa muganga isizemo amarange y'umweru irimo n'ibitanda, hameze neza hari kwakamo amatara ndetse hari inzugi ubona ko zijyanye n'igihe, ni ahantu heza umuntu wese yakwifuza kujya kwivuriza kuko ubona ko hakeye.

Ibintu by'ibishushanyo, cyangwa se twakwita nk'ibipupe cyangwa ibikinisho, biri mu cyumba gisize amarange, ubona ko cyanditseho ko ari inyubako y'abaganga. Cyangwa se inyubako yo kwa muganga. Hateyemo intebe, hari ahari intebe zicarwaho na batatu, n'ahandi hari intebe yicarwaho na babiri.

Mu cyumba ubona ko kirimo utubati, hagiye harimo udukarito. Aha hantu ni kwa muganga urabona ko ari aho babika imiti. Ni heza harasukuye kandi iyo miti ibitse ku murongo umuntu wese niyo yaba atarize umutumyemo umuti yamenya aho uwukura.

Inyubako y'ivuriro ubona ko imeze neza, imbere yayo haparitse imodoka nziza ndetse ifite n'ibisenge ubona ko bigezweho. Kuri iyo nyubako hariho icyuma gifasha kujyana umwuka mwiza mu nzu ndetse iyo nyubako ifite ibisenge by'ubururu ubona ko ababyubatse ari abantu b'abahanga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi. Aho hamwe na hamwe hagiye hari aho wacomeka kugira ngo ubone umuriro, ndetse harimo n'ibindi hejuru. Si ibyo gusa kandi, harimo n'isaha abantu binjiye muri icyo cyumba cyo kwa muganga bareberamo igihe bigeze.

Hari igihe ujya kwa muganga urwaye, ugasanga bisabye ko baguha igitanda, ngira ngo abenshi muri twe byatubayeho, ni yo mpamvu iyo ugiye kwa muganga uhasanga hari ibitanda bimeze bisukuye, byagenewe kuryamishwaho abarwayi baje kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, ni ahantu abantu bajya bakivuza. Aha batangayo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, nko gusuzuma malariya, gupima SIDA, n'ibindi byinshi bitandukanye ariko bigamije ineza y'abaturarwanda.

Mu cyumba ubona ko gisizemo amarange y'umweru, harimo utubati turimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga. Harimo kandi n'abantu bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko ari abantu b'abaganga, cyangwa abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi.

Mu cyumba cyo kwa muganga, hari ahantu handitse ngo, aho wasanga abaforomo. Muri icyo cyumba cyangwa se muri iyo nyubako, harimo imashini nyinshi, ubona ko zifashishwa n'abaganga, mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ni imashini nini ziteretse ubona ko zijyanye n'igihe.

Muri kino gihe mu Rwanda no ku Isi hose ubuvuzi bwateye imbere, niyo mpamvu uyo ugiye mu bitaro bikuru, usanga hari ibyumba birimo ibikoresho bigezweho, ubona ko byateye imbere bifasha ubuvuzi.

Hari ibitaro mu Rwanda bishinzwe indwara zo mu mutwe, ibyo bitaro bisize irangi ry'umweru ariko uko ubibona uba ubona bimeze nk'ibyashaje, hari inzugi zabyo ni umweru bivuze ko zishize irangi ry'umweru kandi imbere yaho hateye indabo.

Umugabo bigaragara ko ari umuganga, yicaye imbere ya mudasobwa nto imwe izingwa ikagendanwa, n'indi nini cyane ubona ko ari iyo kwa muganga kandi baba bateretse ahantu hamwe. Ari kwitegereza igishushanyo kirimo bigaragara ko ari icy'umurwayi bacishije mu cyuma, maze akaba ari kureba uko ibisubizo bye bimeze.

inzitiramibu ni ikintu cy'ingenzi, niyo mpamvu kwa muganga iyo ugiyeyo usanga inzitiramibu ari ikintu cy'ingenzi cyitaweho, barayifata bakayihanika hejuru y'igitanda umurwayi aryamyeho, maze yaza kuryama bakayimanura kugira ngo hirinde ko malariya yamufata.

Icyumba kirimo ibishushanyo, ni icyo kwa muganga. Gifite parafo y'umweru, ndetse hari kwakamo n'amatara. Nta muntu urimo, uretse imashini irimo yonyine nta wundi muntu uri kuhabona. Ku gikuta, igishushanyo gihari kiriho abagabo wagira ngo bari kuva mu kwezi.

Iyo umaze kubyara kwa muganga, ufata umwana maze kwa muganga bakakwereka ubundi buryo uzajya umwitaho; abenshi usanga tutazi ibintu byinshi ku bintu byo kwita ku bana, ariko abaganga babyize iyo umaze kubyara uri umubyeyi, bakubwira uburyo wakwita ku mwana wawe.

Mu kayira karimo inzu hagati, hepfo no haraguru hari akayira ndetse impande y'ako kayira hari ubusitani burimo ibiti birebire, muri utwo tuyira harimo abantu bari kugenda ubona ko bafite aho bari kugana begera iyo nyubako bigaragara ko ari inyubako y'ubu ikoreshwa mu bikorwa by'ubuvuzi.

Mu cyumba kirimo intebe nyinshi ubona ko ari ahantu hameze nko kwa muganga, ku nkuta hariho ibishushanyo ndetse habambye n'ibyapa byanditseho. Harimo intebe nyinshi ariko zisa neza urabona ko hafite isuku mbese harakeye.

Mu nyubako zo kwa muganga haba hanitsemo inzitiramibu, ariko kandi haba hari n'ibitanda abarwayi bahiswemo kugumishwa kwa muganga baryamaho, ndetse aba ari ahantu hari isuku ihagije ku buryo nta muntu utabibona, hasa neza hakeye ku rwego rwo hejuru.

Ahantu ubona ko ari inyubako z'ubuvuzi, hari ubusitani bukiri buto ariko ubona ko bumeze neza bwitaweho. N'izo nyubako ntabwo zishaje, ahubwo na zo urabona ko zikigezweho. Ahantu ziri hameze neza ndetse hejuru hari ibicu by'umweru byiza cyane.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu cy'ingenzi. Niyo mpamvu icyo washaka kugeraho cyose uramutse udakora imyitozo ngororamubiri n'ubundi wazasaza warahinamiranye, ni yo mpamvu uba ukwiye kuyikora cyane ubyitayeho kugira ngo ikugirire akamaro.

Nta mazi nta buzima. Icyo kintu tugomba kukimenya kuko buriya umubiri wacu ukenera amazi. Turabizi iyo wagiyeyo nk'ahantu harehare umubiri wawe ukumagara iyo unyweye amazi urahembuka. N'ibindi byinshi bitandukanye turabizi ko umuntu akenera amazi cyane cyane mu kuyanywa.

Hari agakoresho kwa muganga umuntu ahagararaho, kaba gafite amapine, ariko ako gakoresho bagaha umuntu ubana n'ubumuga. iyo agiye kwa muganga, hari igihe bakamwandikira, maze akajya agakoresha mu buzima busanzwe kugira ngo abone uko ahagarara.

Mu cyumba kirimo irido ry'ubururu, harimo umuntu uryamye yubitse inda. Hasi arambaye nyamara mu mugongo ntiyambaye. Afashweho n'umugabo wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki tw'umweru ndetse n'ishati ubona ko ari iy'umwambaro w'akazi y'amaboko magufi.

Abaganga bakunda kujyana ibikapu birimo ubufasha bwihuse kuko hari ahantu henshi buba bukenewe cyane cyane nk'ahantu habereye imikino n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro.

Akenshi njye iyo mvuye mu myitozo ngororamubiri, ntaha numva ikintu cya mbere nshaka ari amazi, niyo wampa ibindi byo kunywa ngusaba n'amazi kuko mba numva umubiri wanjye unyotewe, ngira ngo mwese murabizi amazi ni ikintu k'ingenzi twese dukwiye kumenya kandi tugakoresha.

Hari umuti wakozwe ugabanya ububabare iyo urwaye uri kubabara urawukoresha ukakuvura ukabasha gukira. Uwo muti uba uri mu icupa ry'umweru ribambyeho agapapuro kaba kanditseho uburyo uwo muti ukora mbese ibyo uvura.

Iyo umuntu arwaye cyane cyane ukuze, hari imyitozo ngororamubiri abaganga bamukoresha akamera neza akongera agakira, ni byiza rwose tujye dukora imyitozo ngororamubiri yaba iyo twategetswe n'iyo tutategetswe kugira ngo tumere neza.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu cy'ingenzi, niyo mpamvu iyo ugerageje iyi ikurikira, usanga byatumye ubuzima bwawe bumera neza, ushobora kurambura amaboko, ushobora kunama, ushobora guhina ukuguru, ushobora guhina umugongo cyangwa ibiganza ndetse n'ibindi.

Umugabo ubona ko yambaye imyenda y'umukara hasi n'inkweto z'imyitozo ngororamubiri ufashe telefone mu ntoki, ari kunywa amazi ubona ko ayashaka, mu ijosi yababyemo agatambaro kifashishwa umuntu yihanagura, wenda atose, yaba atohejwe n'amazi cyangwa n'ibyuya byamuvuyemo.

Kera mu Rwanda n'ahandi ku isi ubuvuzi butaratera imbere, umuntu iyo yavunikaga yumvaga ko birangiye, akumva ko ntacyo ashobora kwikorera, ariko ubungubu aho ubuvuzi bwabaye buteye imbere, ubu ushobora kuvunika bakaguha insimburangingo, ugakomeza ubuzima nk'aho ntacyabaye.

Kwa muganga buriya hari igihe bafata gahunda, bagasanga abaturage aho bari, ariko nanone hari igihe umuganga atwara ibikoresho mu gikapa agiye nko kwita ku bantu bahuye n'ibibazo, ibyo bikoresho, usanga harimo nk'amaserumu, ariyo ya yandi yifashishwa umuntu bamuteramo ibintu, n'ibindi bikoresho birimo nk'inshinge, ibipfuko, n'ibindi.

Umuryango wita ku babaye cyangwa se utabara imbabare, abantu batazira ngo ni uw'umusaraba utukura, ni umuryango mwiza wita ku bantu, yaba ari umuntu w'indembe ufite ikibazo, uwo muryango umwitaho, kandi na none ujya ahantu habaye imikino n'ibindi bintu.

Mu myitozo ngororamubiri harimo imiti myinshi. Iyo uri gukora iyo myitozo, usohora ibyuya, maze umubiri wawe ugatangira gukora neza; ni byiza kuko imyitozo ngororamubiri, hari ubwo muganga agutegeka kuyikora kugira ngo ugabanye ibinure, ndetse ifasha no kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Umurwayi kwa muganga abaganga bakora uko bashoboye kose bakamwitaho. Ni ngombwa kuko iyo ugiye kwa muganga uba uri gushaka ubufasha. Ni yo mpamvu iyo kwa muganga babonye ikibazo ufite gishobora kuvurwa n'imyitozo ngororamubiri, bagufasha kuyikora maze ukongera ukazanzamuka.

Murabizi gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi, si ngombwa ngo mbibibutse buri muntu hano ku isi arabizi ko iyo ukoze imyitozo ngororamubiri ugira ubuzima bwiza. Yego ni byo, jya uyikora uyikore buri munsi, wakora iyo kwicara ukarambura ukuguru kumwe, ukundi uguhinnye, cyangwa izindi izo ari zo zose byagufasha ukamera neza.

Urugendo rwo gukora imyitozo ngororamubiri nk'ubuvuzi ndetse no kwita ku ngingo, Ni byiza rero kujya kwa muganga, igihe hari ikibazo wagize wavunitse cyangwa wahuye n'ikindi maze bakakwitaho, ukabasha gukira, bagukorera ubuvuzi bugezweho.

Iyo umuntu agize ikibazo mu mubiri we ajya kwa muganga, hari igihe rero ujya kwa muganga wavunitse, bakaguha utuntu dukonje ushyira ku mubiri wawe, ugafatishaho aho wakomeretse cyangwa wavunitse maze ukoroherwa.

Hari imyitozo ngororamubiri ituma ubaho neza, harimo nk'iyo gukina umupira, iyo mu buryo butandukanye kwiruka, kunanura amaguru, n'ibindi. iyo uyikoze ugubwa neza, kuko umubiri wacu ukenera siporo cyane ari zo zitwa imyitozo ngororamubiri.

Hari imiti myinshi tubona kwa muganga iba ikozwe mu byatsi cyangwa mu bindi biti bya gakondo bishobora kudufasha kwivura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu cyangwa ibindi ku buryo iyo iyo miti uyikoresheje ubasha gukira.

Imyitozo ngororamubiri ni umuti; kuko ituma umuntu agira ubuzima bwiza ntagire ikibazo na kimwe agira. Yego ku isi ntabwo umuntu yabaho adahangayika, ariko iyo ukora imyitozo ngororamubiri bikugabanyiriza umunaniro w'ubwonko cyangwa se umujagararo.

Kwa muganga hari ibikoresho byinshi; hari rero ibyifashishwa mu myitozo ngororamubiri byabasha kuvura, hari n'ibindi ubona ko ari iby'ikoranabuhanga. Mu Rwanda rero hageze ikoranabuhanga rihambaye ku buryo umuntu atabasha gukerensa.

Nubona hari ikibazo ufite mu buzima bwawe, ushobora gufata amazi ukanywa, maze ikibazo wari ufite kijyanye n'ubuzima cyangwa kubura amazi mu mubiri wawe kigakemuka. Ndabakangurira bavandimwe mwese, gukoresha amazi, kuko amazi ni meza cyane.

Hari imiti igabanya ububabare, aho uyisanga cyane mu ducupa tw'umweru tuba turambuyeho udupapuro twanditseho amagambo y'uburyo ikoreshwa cyangwa y'icyo kimaze. Ntawo wafata umuti ngo upfe kuwukoresha utabanje gusoma kuri ako gapapuro, ngo umenye ngo uvura iki.

Hari udutanda tugezweho twaje ubu ngubu, abantu baradukoresha nk'iyo ugize ikibazo cyane cyane nk'abakinnyi cyangwa abandi bantu bagize ikibazo bahuriye ahantu henshi, baragufata bakagushyiraho, bakaguteruraho, bakakujyana kandi nta kibazo ugira iyo bakagutwayeho kuko kameze neza.

Amazi ni ikintu cy'ingenzi, turayakenera mu buzima bwa buri munsi, nawe ndabizi ko ubizi ko amazi adakwiye gukerenswa umumaro wayo, tuyakoreshe rero neza, tuyanywe tuyashaka kuko ni meza aradufasha.

Imashini ubona ko wagira ngo ni telefone ariko itagendanwa irambitse ahantu, ifite ahantu henshi ugenda ukanda, ariko hari ahanditse guhagarika no gutangiza no gufunga.

Umukobwa wambaye ipantaro imwegeye ufite imisatsi myinshi wambaye n'agasenge kagera munsi y'amabere, arunamye ukuboko kumwe yagushyize mu mugongo, ukundi agufatishije ukuguru ameze nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri ariko ifasha kuruhuka n'ibitazayoka.

Iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri ,akenera kurya ibintu birimo intungamubiri. Harimo nka puwavuro, imineke, pome, kokombure n'ibindi byinshi bifasha kugira ngo umuntu agarure imbaraga aba yatakaje ,ndetse intungamubiri zongere zimuyoboke.

Ahantu mu buvuzi, hasigaye haba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane kuruta uko wahasanga abantu benshi. Niyo mpamvu, hari imashini zifasha kumva uko umutima utera ndetse n'izindi ubona ko zabugenewe mu gutuma umuntu amera neza mu buzima busanzwe.

Ahantu ku meza harambitse ibipfuko ndetse n'andi macupa arimo imiti. Biragaragara ko ari ibyo baba bitwaje iyo baje ahantu ku kibuga, kugira ngo bafashe abakinnyi bagize ikibazo bahura nacyo, maze babasuzume maze babiteho maze barebe ko iyo ndwara bagize, cyangwa se iyo mpanuka bakoze, itabagiraho ikibazo gikomeye.

Umwana ubona ko akiri muto mbese wabarira nko mu cyiciro cy'ingimbi cyangwa umwangavu, ni umukobwa afite isume mu ijosi yaziritsemo ari kunywa amazi mu icupa rifite umufuniko w'ubururu, ryanditseho amagambo.

Iyo uri mu myitozo ngororamubiri, uba ukwiye kwitwaza amazi kuko amazi ni ikintu cy'ingenzi. Iyo uri kuyanywa umera neza, kuko buriya amazi ni ikintu utakwiye gukerensa, mu buzima busanzwe. Ndayakunda, nawe nagukangurira kuyakunda ukajya uyanywa, igihe wakoze imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite ubwanwa, yarambuye agasambi kagezweho asutamye, apfukamishije n'amavi ye, ubona ko areba imbere ye, afite umusatsi ufunze mu buryo abenshi bita shinyo, ufungiye hejuru, afite ibyanwa byinshi urabona ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye ubona ko ari mu imyitozo ngororamubiri yarambuye amaguru, amaboko ye yayashyize munsi yinkweto ze yambaye agasengeri gato n'ikabutura iri mu ibara ry'icyatsi iriho uturongo tumanutse hasi tw'umweru, ahantu yicaye ni mu gacaca inyuma ye hari igitara kirekire wagira ngo ni icyo muri sitade.

Ubuzima bwa buri munsi ukenera gukora imyitozo ngororamubiri, iyo imyitozo iri mu bwoko bwinshi ndetse n'imipira myinshi irakoreshwa iyo abantu bari muri iyo myitozo, niyo mpamvu umugabo wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari umuganga wambaye na karuvati, afite umupira mu ntoki ubona ko ukoreshwa abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri hari ubwo uyikoresha cyangwa se bakayigukoresha. Ariko akenshi iyo bayigukoresheje abo bantu barabyize, mbese ari impuguke muri byo, biragufasha ukamera neza ugasanga urakize umeze neza.

Hari imiti baguha iyo uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yongere ikongerere akabaraga, cyangwa se igutere imbaraga cyane cyane ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri igoye. Ariko ibyo binini nubwo bikongerera imbaraga hari imikino imwe n'imwe itemera ko bikoreshwa.

Ku gatanda harambitseho imbuto zitandukanye, harimo voka, harimo amaronji n'ibindi byinshi bitandukanye birimo nk'inanasi n'ibindi, harambitse kandi imidari ndetse hari n'ibinini by'amabara abiri.

Umugabo bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura n'isaha. Hejuru nta kintu yambaye, urabona ko akiri umusore. Gukora imyitozo ngororamubiri rero, bifitiye akamaro umubiri wacu kanini, umuntu atabasha gukerensa.

Iyo wagize ikibazo ukavunika ujya kwa muganga, bakaguha akantu wishyira ku kuboko niba ari ho wavunitse kaba gafite ubukonje kameze nk'agatambaro ariko kaba gakonje cyane, ukagashyira aho wavunitse, maze ukagenda umererwa neza.

Mu Rwanda cyangwa se mu mujyi wa Kigali cyane, ku munsi wa nyuma w'ukwezi abantu barahura bagakora imyitozo ngororamubiri, iyo bahuye barunama, bakunamuka, bagasutama, bakarambura amaboko, bakananura n'umugongo ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu cyiza kuko iyo uyikoze irinda kugira ngo umubiri wawe ugire ikibazo. Uba ukwiye kuyikora kuko ituma ugira ubuzima bwiza kandi ukagira umubiri urambutse.

Iyo uvunitse hari utuntu bagushyira kwa muganga, cyane cyane iyo wagize ikibazo nko mu ngingo maze utwo tuntu tukagufasha ukamera neza, yego nibyo uzajye kwa muganga nuramuka wavunitse bazagufasha kandi bizagenda neza, ngira ngo uzi akamaro ko kwivuza.

Umuntu iyo yavunitse, wenda ari mu myitozo ngororamubiri cyangwa hari ikindi cyamubayeho, hari agakoresho bamuha, ako abantu benshi bakunda kwita ngo ni urubura, kaba gakonje ashyira aho hantu yakomeretse maze akagenda yoroherwa, iyo abikoze atyo amera neza kandi ntakomeze kubabara.

Kera imiti gakondo warayifataga ukayinywa ari ibyatsi, utabanje kuyicisha mu nganda ariko ubu hari ukuntu bagenda bakayisukura ikamera neza, bakayipfunyika ukabona ko ari imiti igezweho ku buryo umuntu wese yakwifuza kuyikoresha.

Ni byiza ko igikakarubamba cyitabwaho, kuko kivamo imiti myinshi itandukanye, iyo miti iba ivura indwara nyinshi, hari n'aho bagikoramo inkingo, rero tucyiteho kuko iyo kimaze gutunganywa gishyirwa mu macupa, hari ay'umweru, hari ay'umuhondo n'andi agiye atandukanye.

Uko byagenda kose uko ungana kose, imyaka yose waba ufite, mbese ikigero cyawe icyo ari cyo cyose, nta kuntu waba utazi umuti bita umuravumba, uravura mbese ufasha mu gukiza indwara nyinshi zitandukanye, harimo nko kuba umuntu yaba ararwaye ibicurane n'izindi.

Ikawa. Ikawa ni ikintu kiza. Ni ikintu umuntu wese ashobora gukoresha. Kuko, ishobora kuvomo n'umuti gakondo. Uyifashe ukayitunganya ivamo umute gakondo mwiza, ushobora ku kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Hari imiti ikorwa mu bimera gakondo, maze wayikoresha ikakuvura ububabare, bwaba ubwo mu mugongo, mu kuboko, mu nkokora, mu mbavu, ku rutugu, ndetse n'ahandi hatandukanye, iyo miti ni myiza, ni ingenzi.

Buri gihe imiti gakondo ntabwo abantu basiba kuyivugaho, ifite akamaro kandi ntabwo gakwiye kwirengagizwa, bavandimwe niba nawe ushaka kwivura, uzajye ugenda ufate imiti gakondo yo mu kinani maze uyinywe, kuko iravura kandi ivura neza.

Igikakarubamba kivamo imiti myiza ivura umuntu ku rugero rwose. Yaba umwana, yaba umukuru, yaba umeze ute, bose bavurwa n'igikakarubamba indwara z'uruhu. Niyo mpamvu rero, imiti ikoze mu gikakarubamba ntitukayikerense kuko iravura cyane. Tujye tubyitaho kandi tubizirikane.

Imiti gakondo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, ni yo mpamvu aha hantu hasi hateretse udutebo twinshi turimo imiti, ndetse iruhande rwatwo, hari isakuru y'umweru, ifite n'umusekuzo w'umweru, ndetse iruhande rw'aho hose hari amababi ari ku duti dutoya.

Ni ingenzi ko umuntu wese amenya akamaro k'imiti gakondo, imiti gakondo ni yo yifashishwa hagakorwa ibinini n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bivura abantu, ntitugakerense rero akamaro k'iyo miti, kuko ni ingenzi cyane buri muntu akwiye kubimenya.

Amavuta y'uruhu, ni amavuta meza umuntu ashobora gukoresha akamuvura indwara zigiye zitandukanye zijyanye n'uruhu. Iyo uyakoresheje arakuvura ukamera neza, akagukiza indwara wari ufite zo ku ruhu nk'ibiheri cyangwa se ikitwa ise.

Mu ivuriro rya gakondo iyo winjiyemo, usanga harimo utubati cyangwa se udutajeri tuba dupanzemo ya miti gakondo baba bazakoresha bavura abantu, iba ipanze mu buryo bwiza iri mu macupa, ku buryo iyo uje kugira uwo ushaka uza bagahita bawubona mu buryo bwihuse.

Ibinini biba biri mu bwoko butandukanye, hari aho usanga hari ibinini bisa icyatsi. Aha ni akantu kameze nk'uruho karimo ibinini byinshi karambitse hasi bifite ibara ry'icyatsi, ubona ko wagira ngo babikoze mu miti gakondo.

Ubuki ni ikintu cy'ingenzi, kandi burya bwifashishwa mu kuvura. Barabutunganya bakabushyira mu macupa meza maze bakabubika. Maze wabukoraho, wabunywa cyangwa wagira ikindi ubukoresha, ugasanga bukugiriye akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Ahantu ubona ko hari ibiti bito byifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni byiza kuko iyo usoromyeho utubabi twabyo ugenda tukagufasha mu kwivura indwara zitandukanye ziba zabangamiye ubuzima bwawe.

Hari imiti myinshi ifasha kuvura indwara nyinshi zitandukanye, aho usanga igiye ipfunyitse no mu bwoko butandukanye, akenshi usanga iri mu dukarito, wafata ku gakarito wagafungura ugasanga mo imbere harimo imiti, ariko akenshi aba ari ibinini.

Umuravumba ni igiti cyiza kandi kibaho umuti uvura, niyo mpamvu umuntu wese akwiye gukangurirwa kuwukoresha, umuravumba ni mwiza uravura, kandi iyo uwukoresheje ugira ubuzima bwiza.

Igikakarubamba ni umuti mwiza, ukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye, kandi uravura. Iyo uwukoresheje urakira iyo urwaye, kandi iyo uwukoresheje umera neza. Ndakwingingira kugira ngo nawe, ujye ushaka uburyo wakoresha igikakarubamba kuko ni umuti mwiza.

Hari imbuto nyinshi umuntu iyo akoresheje amera neza, aho twavugamo nk'icyo bita amaronji, iyo ufashe umutobe wawo, cyangwa iryo ronji ukarifata ukarica uko ubishaka maze ukarirya utagobye gukuramo umutobe, rirafasha cyane kuko rivura indwara nyinshi zitandukanye.

Igikakarubamba ni ikintu kiza kuko kigufasha kukuvura indwara nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu nawe uzajya ukibona uge ukitaho ndetse niba wabishobora ufite umurima ugihingemo kuko ni ikintu gitangamo umuti ku rwego rwo hejuru. Umuntu wese iyo agikoresheje arakira cyane cyane ibijyanye n'indwara z'uruhu.

Igikakarubamba gishobora gukoreshwa umuntu yivura indwara zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane iz'uruhu. Iyo ugikoresheje kirakuvura ukamera neza, indwara zari zarakuzengereje zikagenda zikira. Ni byiza ko tugikoresha, kuko ni ingenzi mu buzima bwacu.

Hari imiti myinshi ikorwa mu buki. Ugasanga iyo miti ni ingirakamaro. Iyo umuntu ayikoresheje arakira, kuko n'ubundi ubwo buki buba bwatunganiijwe, ku buryo bukorwamo imiti ishobora kuvura abantu, bakamera neza, bagakira, bagatungana.

Igikakarubamba kivamo ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'aho usanga kivamo imiti nk'isabune n'ibindi. Ariko n'ubwo bimeze uko hari isabune ivura indwara z'uruhu ikozwe muri voka no mu gikakarubamba. Icyo gikakarubamba ni ingenzi cyane.

Igikakarubamba kivamo imiti myinshi itandukanye, niyo mpamvu akenshi iyo dukoresheje amavuta bagikozemo usanga tugira uruhu rwiza kuko kirinda indwara z'uruhu harimo n'ibiheri.

Hari amavuta menshi umuntu ashobora kwisiga, ugasanga niba hari ikibazo yari afite ku mubiri we kirakize, kubera ko arimo ibintu byinshi biva ku miti gakondo, bituma aba yibitseho imiti itandukanye byamufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ku isi hari ikigo muri Afurika gishinzwe imiti gakondo, ariko hari n'umunsi wahariwe kwita ku buvuzi gakondo muri Afurika, aho uwo munsi ari mpuzamahanga mu bihugu byo muri Afurika.

Umuravumba ni icyatsi kiza kivura indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane cyangwa se gukururora n'izindi nyinshi. Ujye ugikoresha ni kiza kiravura, umuntu iyo agikoresheje arakira n'iyo atakoresha ibindi binini.

Kwa muganga haba hari amacupa arimo imiti. Iyo umuntu anywe iyo miti arakira. Ariko iyo miti nge mvuga si imwe iba ar'iy'ibinini cyangwa inshinge. Nge ndavuga imiti gakondo ya yindi abantu bakora bakuye mu byatsi cyane mu bindi maze bayiha abantu bayinywa bagakira.

Icyatsi kimeze neza abantu bareba bakagira ngo ni igisanzwe, kandi kivamo umuti gakondo mwiza, ni icya avoka itarakura. Nawe niba hari ahantu ukizi cya avoka, uzagende ugifate maze ugikoreshe, kuko gikora nk'umuti gakondo.

Ni byiza ko tumenya akamaro k'igikakarubamba. Gikoreshwa cyane mu miti, kandi iyo miti iyo umuntu ayikoresheje arakira. Cyane cyane ariko, bakunda kukicyifashisha, bari gukora imiti ivura indwara z'uruhu, kuko nizo kivura cyane.

Hari icyatsi abantu benshi bakunda kwita urumogi, ni cyiza iyo abantu bagikoresheje neza atari bimwe byo kugikoresha mu biyobyabwenge, kirafasha urugero nk'iyo bagikoresheje bavura, kivamo imiti myiza kandi iyo miti iravura cyane.

Icupa ririmo imiti ariko gakondo, rifite amabara atatu ariko ubona ko ari icupa rimwe ubusanzwe. Ni rigufi rifite umufuniko w'umweru ariko ibipapuro birambitseho cyangwa bibambyeho byo bifite amabara atandukanye ndetse n'amagambo yanditseho asa mu buryo butandukanye.

Mu kinani haba harimo ibyatsi bitandukanye, nk'urukangaga, imbingo, n'ibindi umuntu ashobora gukoresha bikamuvura cyane cyane iyo abikoresheje neza, cyangwa yegereye abantu babizobereye mu kubikoresha, baramufasha maze bikamuvura.

Ubuki ni ikintu cy'ingenzi, ndetse na cyo gifatwa nkaho ari umuti gakondo. N'ubwo abantu benshi batajya babutindaho, ariko ubuki bufite akamaro uretse kuba buryoshye gusa umuntu yanabukoresha mu buvuzi. Ni yo mpamvu hari ibintu byinshi byifashishwa mu gukora imiti, ariko bakongeramo n'ubuki.

Muri iki gihe, leta y'u Rwanda yafashe gahunda yo kugira ngo, abantu bajye bahinga mu turima tw'igikoni twabugenewe, atari hamwe bisaba kugira ngo, ugende ugire ikintu uterekamo oya. Ahubwo urajya ugenda, ugafata nk'igipupa ugashyiramo itaka, maze ugashyiramo icyo ushaka guhinga.

Ubukerarugendo ni ikintu cy'ingenzi, ariko nanone hariya dukorera ubukerarugendo haba harimo imiti myinshi ya gakondo, ubu akenshi usanga ari ahantu ho mu mashyamba harimo ibintu gakondo, ni yo mpamvu tuba dukwiye kumenya ko hariya mu mashyamba dushobora gukurayo imiti yatuvura.

Amacupa arimo imiti gakondo, urabona ko ari menshi cyane, hari ashushanyijeho igikakarubamba, ariho inyoni ndetse n'andi, ari mu mabara atandukanye, hari ay'umuhondo, hari ay'umweru, hari n'ay'umweru wijimye utameze neza, mbese urabona ko ari amacupa yabugenewe.

Hari utwatsi duto tuba tuvamo amata iyo dukoreshejwe turakuvura ukamera neza kuko dufasha umubiri wawe ugakira iyo utari umeze neza, maze umubiri wawe ukongera ukagarukana itoto ugatohagira.

Igifuranende turakizi kiba mu kinani, hari n'ikindi bita inyabarasanya. Rero inyabarasanya iyo uyikoresheje wakomeretse, urakira ukamera neza. Ngira ngo murabizi akenshi inyabarasanya iyo uyikaraze utuzi twayo ukadutonyangiriza ku gisebe urakira.

Ibihumyo cyangwa se n'ibindi byo mu muryango wabyo, ni ibintu bivamo imiti ya gakondo myiza, iyo ubikoresheje neza ukabikoresha ku gihe, bikuviramo umuti mwiza ushobora kukuvura igihe cyose haba hari ikibazo waba ufite.

Hari amavuta akozwe mu gikakarubamba, iyo uyakoresheje ukayisiga umubiri wawe umera neza. Niyo mpamvu mbakangurira ngo nujya kugura amavuta yo kwisiga kugira ngo uruhu rwawe urwiteho, uzabanze urebe kuri yayandi aba ariho igikakarubamba kuko ni meza cyane.

Imiti gakondo ni ikintu k'ingenzi tudakwiye kwibagirwa cyangwa ngo duteshe agaciro, ni nayo mpamvu, hari uduti twinshi usanga duteye mu kinani cyangwase twaranahinzwe kugira ngo tuzavemo imiti kandi iyo miti gakondo turabizi ko ifite akamaro.

Igikakarubamba kivamo imiti myinshi itandukanye nk'aho hari ikoreshwa mu kwisiga ku ruhu rimwe na rimwe n'igihe kinyobwa kuko kivamo imiti gishobora kuvura izindi ndwara zitari n'iz'uruhu gusa, ni byiza rero kucyitaho tukagifata nk'ikintu gisanzwe kuko ni umuti mwiza cyane.

Kuva mu bwana abantu benshi usanga abantu benshi babavurisha imiti yo gu kinani, ariko ibyo byabaga kera ubu haje ubuvuzi bugezweho basigaye baha umuntu ibinini, nyamara n'ubwo ibyo byari ntihakwiye kwirengagizwa akamaro k'imiti gakondo kuko nayo ifite akamaro gakomeye.

Umufumbwa ni ikimera gito gikunda kumerara ahantu hatari imyaka cyangwa hahinzwe hakaba hari ubutaka butarimo ubusharire ariko iyo gikoreshejwe neza kimaze gukura kivamo imiti y'ubwoko bwinshi.

Ibikarito bitandukanye uba usanga birimo imiti, hari n'ibiri mu macupa yayo nta bikarito arimo ariko akenshi usanga bayishyize mu dukarito iyo miti kugira ngo uyishaka aze kuza ayifate maze bigende neza, nayikoresha akire kandi agire ubuzima bwiza.

Amavuta meza avura, mbese iyo uyisize ku ruhu kuko akozwe mu bintu gakondo birimo nk'igikarubamba, aragukiza ukamera neza, mbese ubuzima bwawe bukagenda neza.

Imiti gakondo hari ubwo abantu bagenda bakajya mu bisambu bagatoranya ibyatsi n'ibiti bitandukanye, maze bakabitereka ahantu bishobora kuba byumye cyangwa se bikozwe ubundi buryo, ariko byose bigamije kugira ngo bizavemo imiti yavura abantu, hari ibyo babanza gupima ku munzani ngo barebe uko bingana n'ibiro byabyo n'ibindi.

Mu cyaro cyangwa ahandi hantu hakiboneka imirima yo kumeramo ibyatsi, hari akatsi kajya kahamera kitwa ikibonobono, sinakita akatsi ahubwo nakita nk'igiti, kuko kiba gifite amababi manini, ariko icyo giti iyo ayo mababi bayaciye hari ubwo yifashishwa mu buvuzi bw'ibintu bigiye bitandukanye.

Igikakaruka ni umuti mwiza w'ingenzi, umuntu wese ashobora kwifashisha ukamuvura indwara zitandukanye, aho iyo wawukoresheje ukuvura indwara z'uruhuri n'izindi zitandukanye, ni byiza rero tuge tugikoresha kuko ni ingenzi kandi ni umuti mwiza.

Akatsi abantu benshi bakunda gutera nkaho ari ururabo, kari ahantu mu tubuye ubona ko ari utubuye twamenwe aho hantu, uko bigaragara, ako katsi iyo ugakoresheje hari igihe kakuviramo umuti ukuvura indwara utari uzi ko kavura.

Igipapayi cyangwa se abenshi iyo batavuze ngo ni igipapayi baravuga ngo ni ipapayi. Ni igihingwa kiza kivura n'indwara nyinshi waba ukiriye kimeze neza ari bwo ukigisarura cyangwa se kivuye mu ruganda. Gikoreshwa mu miti nko mu buvuzi kuko gikungahaye ku bintu byinshi bivura.

Imiti gakondo ni ikintu cy'ingenzi. Tujye tuyubaha tuyihe icyubahiro ikwiye kuko ni iy'ingenzi. Nuramuka ubonye umuntu ushaka kuyitagaguza, ujye umucyaha, umubuze, umubwire ko atari byo, kuko imiti gakondo ifatiye runini Igihugu cyacu.

Hari imiti myinshi ya gakondo, aho usanga ikoreshwa ariko bakaba barashyize mu ducupa abantu bayitunganya, ni byiza rero tujye tuyikoresha kuko imiti gakondo ni ikintu k'ingenzi kandi gifite akamaro ku buzima bw'Abanyarwanda bose.